Icyumba gikorerwamo inama hicayemo abagabo ndetse n'abagore, umwe muri abo bagore arahagaze, hari ibyo ari gusobanurira abo bandi bicaye, nabo baramukurikiye, bamuteze amatwi ibyo ari kubagezaho ngo bitabacika.

Abagabo ndetse n'abamama bahagaze, bambaye imyenda iri mu kirangantego cy'umuryango wa FPR Inkotanyi, inyuma y'aho hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru.

Abagabo ndetse n'aba mama bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku, bose bari kureba imbere barakurikiye birasa nk'aho hari umuntu urimo kubagezaho imbwirwaruhame, harimo kandi n'abandi barangariye muri telefone.

Umugabo wambaye ishati arasa neza, aratebeje, afite indangururamajwi mu ntoki ze ndetse yambaye n'marinete, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo Imbuto Fondesheni, inyuma yacyo hari abandi bantu bahagaze bakurikiye ibyo ari kubabwira.

Abakobwa, abasore bari ahantu bicaye batuje, umukobwa umwe arahagaze afite imisatsi arasutse afite n'indangururamajwi mu ntoki ze, hari ijambo ari kugeza ku mbaga yateraniye aha.

Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare ari kumwe n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye bari kuganira n'abaturage ku byateza imbere akarere ndetse n'igihugu muri rusange, inyuma yabo hari abanyamakuru bafite kamera bari gufotora ibiri kuvugirwa ndetse n'ibiri kubera mu nama.

Aba mama ndetse n'abagabo bicaye mu cyumba bambaye imipira isa y'umweru ndetse imbere handikishijweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, barakurikiye bisa nkaho hari ikintu bari kureba imbere.

Umugabo wambaye amarinete ndetse wambaye n'ikositimu y' umukara. Imbere mo yambariyemo ishati y'umweru ndetse na karuvati y'ubururu afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Icyumba cyicawemo n'abantu bambaye imyenda isa iri mu mabara y'umweru abenshi muri bo bambaye amarinete baricaye barakurikiye hari umuntu uri kubagezaho ijambo runaka.

Aba mama babiri bose bafite indangururamajwi, bahagaze imbere y'abandi benshi, bari kubagezaho ijambo babateguriye, nabo baratuje bateze amatwi ibyo bari kubabwira.

Intebe zisa umukara inyuma yazo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, handitseho amagambo rubyiruko menya amateka yawe, imbere y'intebe hari abana babiri umwe yambaye umupira w'umweru ndetse n'agatambaro k'umukara mu mutwe.

Abagabo ba biri bagaragara nk'abakuze, bafite imisatsi myinshi ndetse bafite n'imyirongi mu ntoki bigaragara ko hari ahantu barimo kuririmba.

Umukobwa uteze amaboko yambaye imikenyero, yambaye akantu gafashe imisatsi ye, iruhande rwe hari undi muntu utagaragara neza na we uri kubyina, iruhande rwabo hari abandi bantu bambaye imikenyero isa umweru ndetse na move barimo gukoma amashyi.

Abagore batatu bambaye imikenyero iri mu mabara y'umweru bari kubyina bishimye bateze amaboko inyuma yabo hari abandi bantu batagaragara ndetse n'imbere yabo hari abandi bagabo babiri bari kubareba.

Aba mama bambaye imikenyero isa umweru n'umukara bishimye. Umwe muri bo afite indangururamajwi arimo araririmba. Hari undi ufite imirishyo ndetse n'ingoma eshatu zimutetse imbere. Iruhande rwabo imbere hashinze ibiti biriho ibitambaro bisa umuhondo, ndetse n'icyatsi, hirya yaho hari ibyatsi bitoshye.

Umugabo wiyogoshesheje mu buryo bwa kera bwakundaga gukoreshwa n'abantu ba kera, afite ubwanwa yabushokoje ndetse ari kureba ku ruhande yambaye inigi mu ijosi rye.

Imiheto myinshi irambitse ahantu hamwe, yifashishwa cyane cyane n'abakora umwuga w'ubuhigi, mu kugirango bice inyamanswa bashaka guhiga.

Igikoresho gifite ibara risa ivu, gikozwe mu rubaho, giteretse imbere y'umuryango, iruhande rwacyo hari icumu bakoresha mu guhiga.

Itente nziza idekoye mu buryo bugezweho, idekoresheje ibitambaro biri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi n'umuhondo, harimo abantu bambaye imikenyero iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara bari kubyina, hari n'abandi bantu bicaye bari kureba uko babyina baranezerewe ndetse bafite akanyamuneza.

Abagabo babiri bicaye ahantu hamwe, bambaye imyenda isa ndetse bose bafite inkoni mu ntoki, bari guseka barishimye umwe muri bo yakoze ubukwe undi yamubereye umubyeyi wa batisimu, bambaye inkweto za masayi.

Abagabo ndetse n'abamama bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Bambaye imipira isa ndetse iriho n'ikirangantego kiri mu mabara y'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda. Barakurikiye bose bateze amatwi.

Umukobwa wambaye impuzankano yakazi ifite ibara ry'ubururu yambaye ingofero ya cask ifite ibara ry'umuhondo ari gukanika insinga bisa nkaho akora mubintu byamashanyarazi

Umu mama wambaye isarubeti irimo amabara y'umukara ndetse n'umweru yambaye kandi kasike isa umuhondo, afashe kurwego arashaka kurwurira kugirango agire icyo ajya gukora.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara ufite urupapuro mu ntoki ndetse wambaye n'agapfukamunwa gafite ibara ry'umukara ahagaze hagati y'ahantu hahurira insinga z'amashanyarazi.

Ipoto ry'amashanyarazi rishinze ahantu mu murima rifite ibara ry'umweru, hariho umuntu wambaye Kasike isa ubururu arimo arareba ikibazo cyaba cyabayemo.

Umudamu wambaye impuzankano y'akazi, yambaye kasike iri mu ibara ry'umweru ndetse inyuma mu mugongo hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umuhondo REG zeru mirongo icyenda na gatanu ari gukanika amashanyarazi.

Insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro ahantu hagiye hatandukanye mu ngo z'abaturage, hari umugabo wambaye itaburiya y'ubururu ndetse na casike isa umuhondo, ari kureba ikibazo izi nsinga zaba zagize kugira ngo umuriro ukomeze ukwirakwire mu baturage.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru iparitse iruhande rwayo, hari abagabo babiri bambaye amajire y'akazi, umwe muri bo yambaye kasike isa umweru bari kwitegereza iyo modoka.

Igomero ry'amashanyarazi ni hamwe mu hatunganyirizwa amashanyarazi kugira ngo agere mu baturage hirya no hino, hahagaze abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'akazi.

Ipoto ishinze mu murima itwara amashanyarazi mu baturage bagiye batandukanye, iruhande rwayo hateye ibiti bigiye bitandukanye, hirya gato hari inzu itagaragara neza.

Umugabo wambaye impuzankano y'akazi, yuriye ipoto ry'amashanyarazi, iryo poto rishinze iruhande rw'urukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Umunara muremure ushinze ahantu iruhande rwawo hari izindi nyubako zifite ibara ry'umweru, imbere yawo hateye igiti cy'umukindo, hari kandi insinga z'amashanyarazi ziri kuhaca.

Insinga z'amashanyarazi ziriho umuntu uri kuzigenderaho yambaye kasike isa ubururu. Arimo kugenzura niba umuriro uzacamo neza nta nkomyi.

Inyubako nziza yubatse ahantu ha yonyine ifite amabati y'ubururu, ndetse iruhande rwayo hari ikigega gisa umukara, hepfo yaho hateye ibiti birebire bizana amahumbezi ndetse n'akayaga, hari agahanda k'igitaka kajyayo.

Ikiraro gifite inkingi ziri mu ibara ry'icyatsi kiriho kugendaho imodoka ndetse n'igare. Nyuma yacyo hari abandi bantu bahagaze bari kwitegereza uko iyo modoka n'igare byambuka.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe n'abandi bagabo, umwe wambaye impuzankano y'umwenda wa gisirikare, bari kugenda ndetse inyuma yabo hari inyubako zigiye zitandukanye.

Inyubako isakajwe amabati y'ubururu imbere yayo hahagaze abagabo bane ndetse n'umumama umwe. Imbere yayo kandi hashinze idarapo ry'igihugu riri mu mabara y'umuhondo ,icyatsi ndetse n'ubururu. Hirya yaho hari indi nzu isakajwe amategura, ndetse ifite n'igipangu.

Abantu babiri bari ku magare, bari kunyura ku kiraro gisa nk'aho cyasenyutse, barimo kwihuta kugira ngo kitabagwira.

Ubuzima bwiza ni ingenzi mu mibereho yacu ya buri munsi, abagabo batatu ndetse n'umumama umwe bahagaze imbere y'umuryango, aha ni kwa muganga.

Ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cya Kongo, uhasanga ibyapa byanditseho amagambo agira ati '' urugendo ruhire'.'

Umuntu utwaye ipikipiki wambaye kasike ifite ibara ry'umutuku ndetse wambaye n'agapira k'umweruru n'umukara kanditseho nimero icumi ari kugenda mu gahanda gakikijwe na senyenge.

Abagabo ndetse na bamama bambaye impuzankano z'imyenda ya gisirikare. Harimo umugabo kandi wambaye ikositimu ndetse n'undi wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara bahagaze imbere y'inyubako iriho icyapa cyanditseho hedikotazi.

Inyubako ya etaje igeretse kabiri irimo ibikorwa bigiye bitandukanye, imbere yayo haparitse imodoka eshatu ndetse hari n'abagabo benshi bari kuganira.

Umuhanda upavomye uri kujya ku nyubako ngari ifite amabati manini, iruhande rwayo hari ubusitani ndetse hashinze n'amapoto ariho amatara ayacanira nijoro.

Abamama babiri bose bafite abana bicaye hanze y'inyubako, inyubako ifite inzugi z'ubururu ndetse ni ku biro by'Umurenge wa Kiyombe, imbere y'inzu hari idarapo ry'Ihugu.

Inyubako ifite amabati asa ubururu. mo imbere hicayemo abantu bicaye ku ntebe zifite amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, inyuma yayo hari izindi nyubako zubwiherero, hirya gato hari umuntu wambaye imyenda y'umutuku ndetse n'inzu.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse imbere ku miryango handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, Matimba cizi porosesingi hatunganyirizwamo ibikomoka ku mata mo imbere harimo ibicuba.

Positedosante iri mu ibara ry'ubururu yubatse ahantu ha yonyine, iruhande rwayo inyuma gatoya hari ikigega kiri mu ibara ry'umukara, inyuma y'iyo nyubako hateye ibiti by'inturusi.

Ikiraro gifite inkingi z'icyatsi, harimo kunyuraho abantu benshi bagiye batandukanye bari kujya mu cyerekezo kimwe, harimo abagabo ndetse n'abamama.

Abantu benshi bahuriye muri sitade barimo gufana, imbere yabo ku nkuta za sitade hariho ibitambaro biri mu mabendera y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Ikiraro cyubatswe mu buryo bugezweho cyubakishije senyenge, hari umuntu uri kukigendaho wambaye umupira w'umukara, hirya yacyo hateye ibiti ndetse gifite n'inkingi ziri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare ari kumwe n'abandi bayobozi bakorana mu nzego zigiye zitandukanye, bari kumwe n'abaturage bose bahagaze ku murongo bishimye, hari umuturage umwe w'umumama bigaragara ko bamuhaye inka.

Abagabo benshi harimo umwe wambaye impuzankano y'abantu bakora mu nzego z'umutekano polisi, bahagaze hagati mu mibyare myinshi, imbere yabo hari undi mugabo wambaye ingofero y'umukara urimo kubagezaho imbwirwaruhame.

Abagore, abagabo, abana ndetse n'abakora mu nzego z'umutekano. Bicaye ahantu mu nzu bose bakureba imbere biragaragara nkaho aho hari umuntu ubari imbere urimo kubaha kubagezaho ijambo.

Mu karere ka Nyagatare uhasanga urwibutso rushyinguyemo imibiri igiye itandukanye y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Abamama benshi ndetse biganjemo n'abagabo bakeya. Baricaye baragaragaza agahinda birasa nk'aho hari umuntu baje gufata mu mugongo wagize ibyago kuko ntabwo bishimye.

Abagabo batatu ndetse n'umumama wambaye amadarubindi bafite indabyo mu ntoki zabo bagiye gushyira ku gituro cy'umuntu wabo witabye Imana.

Abagabo batatu umwe muri bo yambaye amarinete ndetse afite na baji mu ijosi, barahagaze bose baratuje nta n'umwe uri kuvuga, inyuma yabo hari ibiti by'imyembe ndetse n'inyubako z'amashuri.

Umumama ndetse n'umugabo bahagaze mu bantu benshi. Umugabo yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro yenda gusa ivu. Uwo mumama yambaye agatambaro mu mutwe ndetse afite n'akandi gatambaro ku rutugu hari icyo ari kubwira abaturage.

Umugabo wambaye impuzankano ya Polisi ndetse inyuma ye hari undi utagaragara neza wambaye impuzankano ya gisirikare, ahagaze imbere y'abantu benshi arimo kubagezaho ijambo yabateguriye, inyuma y'abo bantu hari inyubako ndetse n'igiti kirekire.

Imbaga y'abantu bagiye batandukanye, abana, abagore, abagabo ndetse n'abakobwa, bateraniye ahantu hamwe hari n'amatente, imbere y'abo bantu hari umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, ari kubagezaho ijambo yabateguriye.

Imodoka y'akarere ka Nyagatare irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya gato hari amazu akorerwamo ubucuruzi agiye atandukanye, hari kandi n'umutaka wa MTN ukorerwamo n'umu ajenti wayo.

Icyapa cyanditseho e, na, cumi na kane a, ve mirongo ine, cyometse ku gikuta kiriho amabara y'umutuku ndetse n'umweru, kiragaragaza ko iyo nzu ari iya mirongo ine.

Icyapa gishinze ku nkengero z'umuhanda cyanditseho amagambo REG, ari mu ibara ry'umutuku hepfo yayo magambo handitseho andi magambo Nyagatare brance kiraranga ahantu hakorera ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iraparitse itegereje ko abagenzi baza bakayijyamo ikabageza aho bashaka kujya hagiye hatandukanye.

Imodoka ebyiri, zikoreshwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ziparitse ahantu zitegereje ko abagenzi binjiramo zikabageza aho bashaka kujya hagiye hatandukanye.

Icyapa cyanditseho debesite resitorenti, kigaragaza ibyo muri iyi nyubako bakoreramo, ni muri resitora icuruza ibyo kurya bitunganyijwe neza kandi biryoshye.

Icyapa cyanditseho e, na, mirongo itandatu esiti, iruhande rwacyo hari inzu ndende ifite amabara y'umutuku, hirya gatoya hari umuhanda wa kaburimbo uzamuka.

Imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yitwa kwasiteri, iparitse mu muhanda wa kaburimbo, hejuru inyuma yayo hariho amagambo agira ati'' gabiro agiri bizinesi habu.''

Umuhanda wa kaburimbo, urimo kugendamo imodoka ndetse iruhande rwayo hari amazu agiye atandukanye akorerwamo ubucuruzi inyuma y'iyo modoka hari ipikipiki itwaye umugenzi.

Ibyapa bibiri bishinze hagati mu rurabyo, kimwe cyanditseho EN na cumi n'umunani AVE hirya yabyo gato hari igiti cy'amashanyarazi ndetse n'i ikindi giti cya gereveriya ,hari n'umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka ifite ibara ry'umutuku yo mu bwoko bw'utuvatiri, irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yayo hari izindi nyubako nyinshi zigiye zitandukanye.

Umuhanda ukozwe n'amapave, urimo amapikipiki agera muri atatu, imwe yicayeho umugabo ufite inda nini wifashe mu gatuza ahagararanye n'umumama wambaye ikanzu y'iroza ndetse n'ingofero y'umweru hirya yaho hari izindi nyubako nziza.

Umuyobozi w'Akarere ka Nyagatare wungirije ari kumwe n'abandi bagabo babiri, umwe yambaye amarinete ndetse yambaye n'ingofero afite n'ikayi mu kuboko kwe kw'ibumoso bari kugenda bagiye kwinjira mu muryango.

Inzu yubakishije amatafari ya rukaragaragara, itari yuzura neza, iruhande rwayo hari abantu bambaye amajire, bari mu gikorwa cy'urukundo, bareba uko iyo nzu yahuzura, bari kubaka kandi, akandi kazu gatoya.

Umugabo wambaye amadarubindi afite ibara ry'umukara. Afite indangururamajwi mu ntoki ze ndetse afite n'urupapuro rw'umweru arikugeza ijambo yateguriye abaturage bamuteze amatwi inyuma ye hari undi muntu wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro isa ubururu ari kureba muri telefoni.

Inyubako yuzuye ndetse n'indi itaruzura, mbere yayo hateraniye abantu benshi bari mu gikorwa cyo kubumba amatafari kugira ngo nayo ibashe kubakwa yuzure.

Abagabo ndetse n'umumama ufite ingata ku mutwe, umugabo umwe afite ibuye mu kiganza bahagaze hagati mu rutoki bari gukora umuganda.

Imbaga y'abantu benshi bambaye imyenda isa umukara, harimo umwe wambaye impuzankano y'umwenda wa gisirikare, bose bafite ibikoresho barimo gukora umuganda basibura akayira kugira ngo borohereze ibinyabiziga bihatambuka.

Umuhanda w'igitaka urimo kugendwamo n'abantu benshi, bamwe muri bo bikoreye amabuye abandi bafite amasuka barimo kuwuharura kugirango use neza hirya yaho hari inyubako zifite amabati y'ubururu.

Umugabo uhagaze mu kibuga wambaye amajesi asa umuhondo ndetse harimo n'utubara tw'umukara, ahagaze yifashe mu mayunguyungu, ndetse imbere ye hateretse n'umupira, gusa ntabwo arimo kuwureba inyuma ye hari abandi bakinnyi.

Abana batatu barimo gukina umupira, bari gukinira ku kibuga kitarimo ibyatsi, hirya gato y'icyo kibuga hateye ibyatsi bitoshye bimeze neza.

Abagabo batatu babiri bambaye imyenda y'imikara yijimye undi yambaye amajesi y'umuhondo ndetse n'inkweto z'umuhondo bari mukibuga barimo gukina hagati yabo harimo ballo.

Ikibuga gikinirwamo n'abakinnyi bakina umupira w'amaguru, harimo gukina amakipe amwe yambaye imipira y'umweru ndetse n'umukara, indi yambaye imikara gusa. Hirya gato hari imikingo iriho igitaka ndetse n'ibyatsi.

Abagabo batatu ndetse n'umu mama umwe, babiri muri bo bambaye amajezi asa umuhondo, uwo mu mama yambaye jezi isa umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, umwe muri bo afite kandi telefone arimo gufotora uwo mu mama uri gutera ballo.

Abakinnyi b'amakipe abiri atandukanye, amwe yambaye umuhondo andi yambaye umukara wijimye, bari mu kibuga barahanganye, bari gukinira igikombe runaka.

Abagabo babiri umwe wambaye numero enye mu mugongo, ndetse n'undi wambaye amajezi asa umuhondo n'amasogisi harimo utubara tw'umukara. Afite baro bari gukinira mu kibuga kirimo tapi, haruguru hari udukingo tw'igitaka, hariho n'utwatsi dukeya.

Ikibuga cy'umupira kirimo tapi, harimo gukiniramo abagabo basa nk'abakuze bamwe bambaye amajezi y'umuhondo ndetse harimo n'uturongo tw'umukara abandi bambaye umukara wijimye ndetse nicyatsi.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari kumwe n'umumama wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, bari mu kibuga bagiye gukina n'indi ekipe.

Umugabo wambaye impuzankano ya gisirikare, ahagararanye n'abakinnyi bambaye amajezi asa ubururu. Inyuma yabo hari abandi bicaye mu ntebe bategereje ko umupira utangira bakareba uburyohe bwawo.

Umugabo wambaye ingofero isa umutuku ndetse n'umukara, wicaranye n'umwana, inyuma yabo hari abandi bantu bicaye, bari kureba imbere, bisa nkaho hari ikintu cyabereye bari gukurikira.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki ndetse n'umuyobozi wayo, yambaye ingofero imurinda impanuka iri mu ibara ry'icyatsi, yambaye kandi n'umupira usa umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Umuhanda w'igitaka uratuje nta kinyabiziga kiri kugendamo, hirya gato hari amazu atandukanye atuwemo n'abantu.

Umuhanda wa kaburimbo utuje, nta kinyabiziga kiri kugendamo. Iruhande rwayo hari akanya kahariwe abanyamaguru. Harimo umumama uri kugendamo uhetse igikapu mu mugongo ndetse hirya ye hari ibiti.

Imodoka ya hoteri yitwa demishiratoni, irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Imbere yayo hari izindi moto ebyiri ziri kugenda muri uwo muhanda wa kaburimbo.

Umumama wambaye imyenda isa ubururu ndetse ukenyeye n'agatambaro gasa icyatsi afite umweyo mu ntoki ze, arimo gukubura umuhanda wa kaburimbo kugirango akomeze kunoza isuku.

Umuhanda wa kaburimbo utuje utarimo ikinyabiziga, hirya yaho hari andi mazu ari mu mabara y'umweru ndetse na shokora, imwe muri ayo mazu handitseho ijambo foti beti.

Umuhanda wamapave usa neza, iruhande rwawo hari amapikipiki menshi, imwe muri ayo mapikipiki yicayeho umuntu ndetse hari n'inyubako icururizwamo amamoto.